Inanasi ni urubuto rwiza rukungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, abato n'abakuru bararurya ruzana amafaranga ku baruhinga, rukaba igihingwa cyiza cyane cyera ahantu hatandukanye mu Rwanda.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, kiboneka muri bimwe mu bice by'igihugu cyacu, gitanga umusaruro ku wagihinze, kizana amafaranga gitanga n'ifumbire mu bishishwa byacyo.

Inanasi ni urubuto rwiza. Rugira intungamubiri zitandukanye ku mubiri w'umuntu. Iyo ruhinzwe kinyamwuga, rutanga umusaruro. Ruribwa ri rubi isi ndetse rushobora gukorwamo n'umutobe.

Umuceri ni ibiryo byiza biribwa n'abantu batandukanye, ugira intungamubiri, uraryoha kubantu bose, ufasha amagufa gukomera, biba byiza iyo uwurishije n'ibindi biryo ntuwurye wonyine.

Ubuhinzi ni umurimo mwiza. Ukorwa henshi mu gihugu, iyo ukozwe kinyamwuga utanga umusaruro. Amafaranga akiyongera abantu bakabona ibiryo, ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukaba bwiza.

Ibigori ni igihingwa cyiza, kigira intungamubiri zitandukanye kandi ntikirushya, gihingwa henshi mu gihugu kigatanga umusaruro ku bagihinga.

Amasaka ni ubwoko bw'ibihingwa ngandurarugo, aboneka henshi hatandukanye mu gihugu, araribwa, anyubwamo igikoma ndetse bayengamo ikigage n'ubushera.

Mu gihugu cyacu dufite amashyamba, habamo ibiti bitandukanye bitugirira umumaro bikayungurura umwuka duhumeka, ni intaho y'inyamaswa iziguruka ndetse n'izigendesha amaguru.

Biringanya ni igihingwa cyo mu bwoko bw'imboga. Kiboneka henshi hatandukanye mu gihugu. Kigira umumaro utandukanye, mu mubiri w'umuntu. Kiribwa n'abana ndetse n'abakuru.

Inyanya ni igihingwa cyiza, gifite intungamubiri zitandukanye ku mubiri w'umuntu, uretse gukoreshwa nk'ikirungo kiribwa ari kibisi ndetse gitetse.

Umwembe ni urubuto rwiza, rwera mu gihugu cyacu, rugira intungamubiri zitandukanye ku mubiri w'umuntu, rushobora kuribwa, cyangwa se rugakorwamo umutobe.

Ibitunguru ni ubwoko bw'ibihingwa by'imboga, bigira umumaro utandukanye mu mubiri w'umuntu, iyo biriwe ari bibisi bikomeza amagufa, birinda kanseri ndetse bikiza indwara z'ubuhumekero.

Urubuto rw'avoka ni urubuto rwiza iyo zikuze abantu barazirya bakagira ubuzima bwiza, aho abana bakira bwake, ndabona umusore arimo arasoroma ingemwe z'avoka kugira ngo ajye kuzitera zibashe kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Karoti ni zimwe mu mboga nziza cyane ziribwa n'abana b'abantu bakuru, ushobora kuzirya zitetse cyangwa ari mbisi, rimwe na rimwe ukifashisha n'umutobe wazo biba byiza.

Umukindo, umukindo ni igiti cyiza, kigaragaza ahantu neza, gikora jaride neza ukabona ahantu haracyeye, bigatuma abantu bose bagikunda, bikaba byiza cyane.

Inkoko ni itungo ryo mu rugo ritera amagi, rituma abantu babaho neza. Ritanga amafaranga barijyanye ku isoko, ritera amagi abana bakayarya n'abantu bakuru barayarya, bashobora kurya umureti cyangwa ukayarya atogosheje biba byiza cyane.

Inkoko ni itungo ryiza, rigira umumaro utandukanye ritanga amagi, inyama ndetse n'ifumbire, rizana amafaranga ku waryoroye kinyamwuga.

Ingurube ni itungo rigufi riboneka henshi mu gihugu, iyo ryorowe kinyamwuga ritanga umusaruro, rigira umumaro utandukanye, inyama ifumbire ndetse n'amafaranga.

Ihene ni itungo rigufi riboneka henshi mu gihugu. Rigira umumaro utandukanye. Ryoroka vuba, riraribwa, ritanga ifumbire, inyama n'amafaranga kubaryoroye.

Inka ni itungo ryiza ritunzwe n'abaturage benshi mu Rwanda, rigira umusaruro utandukanye, amata, ifumbire, amavuta ndetse n'amafaranga mu gihe warigurishije.

Ingurube ni itungo ryiza, rizana amafaranga, ritanga inyama ziteza imbere abaturage kandi rigatanga n'ifumbire ku buryo bwiza.

Inka ni itungo ryiza, rigira umusaruro utandukanye inyama, ifumbire, amata, amavuta ndetse rizana amafaranga ku baryoye.

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane kigira intungamubiri zitandukanye cyera ahantu hatandukanye mu gihugu, kiraribwa kinyobwamo igikoma ndetse hari aho bagikoresha nk'amafarini.

Urusenda ni igihingwa cyiza, kizana amafaranga, gituma abantu batera imbere ndetse, ukabona amafaranga, ruraryoha, urushyira mu biryo. Barukoresha no mu bindi bintu bitandukanye nk'imiti n'ibindi bintu byinshi.

Uturima tw'igikoni tumwe mu buryo bwakemuye imirire mibi mu gihugu cyacu. Hahingwamo imboga zitandukanye zifasha abaturage mu mirire ya buri munsi.

U Rwanda rufite pariki zitandukanye ,habamo urusobe rw'ibinyabuzima, inyamaswa ndetse n'ibiguruka. Ibyo byose bidufasha kutuzanira ba mukerarugendo bakaduha amafaranga, ubukungu bukiyongera.